Abantu bicaye ku ntebe nziza zisa umukara bari kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'uko abantu babasha kugira ubuzima bwiza, buri wese imbere ye hateretse amazi kandi afite ikayi n'ikaramu ku buryo buri gitekerezo cyose bari kuvuga ari kucyandika.

Umubyeyi utwite uryamye ku gitanda, wambaye agapfukamunwa, muganga bakaba bari kumwe, bakaba bamushyize icyuma ku nda kugira ngo yumve niba umwana ameze neza, muganga na we yambaye agapfukamunwa, hakaba hari n'undi waherekeje umubyeyi bari kumwe.

Abantu bari hamwe bari mu nama, bakurikiye bateze amatwi, bahanze umuntu amaso urimo ubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuvuzi kuri bose, buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi kuko amazi ari ingirakamaro.

Abantu benshi bari hamwe biganjemo abagabo n'abagore, bambaye imipira isa oranje, bari hamwe batera imboga, bakangurira abaturage ko kurya imboga biri mu bintu bituma birinda uburwayi cyane cyane ubwo kurwaza bwaki.

Kandagira ukarabe ni kimwe mu bikoresho byaje bikenewe, aho iba iri hafi n'ubwiherero, ku buryo umuntu uvuye kuri tuwarete aza agakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bikaba byaragabanyije indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nyubako isa neza, bamwe bahagaze abandi bicaye, bari gukurikira ibiganiro bigiye bivuga uburyo ki ivuriro cyangwa se kwivuza ukimenya ko urwaye ari ingenzi.

Abana bari kwitabwaho bahabwa amata, amata ari muri bimwe bikungahaye ku ntungamubiri, cyane cyane arinda igwingira ry'abana, abana ni urugero rwiza ruri gufatirwaho, ko buri muntu wese yajya ahereza abana amata kugira ngo bakure neza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bana aricyo bita UNICEF cyatumiye urubyiruko abantu batanu kugira ngo baze babahe inyigisho zitandukanye, harimo abakobwa bane n'umuhungu umwe, bambaye ubururu hejuru umukara hasi.

Uko ubuvuyobozi bwageze kuri bose, bwegerejwe abaturage nta mwana ukirwara ngo yicwe n'uturwara dutandukanye. Umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga, muganga na we ari kumuha umuti yishimye.

Abagabo batanu harimo umwe w'umuzungu, bari gutaha bavuye mu nama ivuga ku bintu bijyanye n'ubuvuzi, umwe ari kumukora mu ntoki, bambaye amakositimu, umuzungu niwe wambaye bitandukanye.

Abagabo babiri, bose bambaye kositimu, bari gusuhuzanya, kubera ko barwanyije icyorezo cya Marburg kigeze kuza kikagera mu Rwanda. Bari gushimirana, kuba barageze ku ntego bari barihaye zo kurandura Marburg.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'abakobwa ruri hamwe, ruri gufata ifoto kuko rumaze kwiga ku bijyanye no kwita ku barwayi cyangwa se buri muntu wese ufite ikibazo.

I kigali ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa munani bibiri na makumyabiri na kane habaye inama yiga ku bijyanye n'icyorezo cya Marburg. Bicaye bari kubwira abaturage uburyoki bacyirinda kugira ngo kiranduke.

Amazi meza yegerejwe bose, umugabo witeye ikintu gitukura yagiye kuvoma, ari kuvoma amazi meza ku iriba ririba hafi n'ibyatsi.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye hamwe, basuwe n'umuzungu, arimo abaha ibiganiro bishimiye, bari kumuha amashyi, bose bambaye amataburiya na baji mu ijosi.

Abantu bicaye hamwe biganjemo abambaye imyeru hejuru, baje gukurikira ibijyanye n'ubuvuzi bwageze kuri bose, hari abari kubashishikariza bababwira ibyiza byo kwivuza ukimenya ko warwaye.

Umugabo uhagaze imbere wambaye ikote ufite mikoro uri gutanga inyigisho zirebana n'ubuvuzi hamwe n'inkingo zitangwa, abantu bamuteze amatwi baricaye bari gutanga ibitekerezo byabo bitewe n'uko ubuvuzi bukenerwa na bose.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye hamwe bavuye gufata inyigisho zijyanye no kwita ku barwayi, nk'uko tubizi mu Rwanda buri kagari karimo abajyanama b'ubuzima, bagomba kwita ku bana bafite imirire cyangwa se ababyeyi batwite.

Abaganga batatu harimo babiri bari kwandika, bafite ikayi n'igitabo kinini bandikamo uburyo abarwayi bagiye bavurwa hari abakize hari n'abapfuye, undi ari kugenda abibutsa aricaye impande yabo.

Umujyanama w'ubuzima ari kugira inama abaje bamugana, ari umugabo n'umugore bicaye ku ntebe umugore aratwite, umujyanama w'ubuzima ari kubabwira uburyo ki bajya bita ku bijyanye n'imirire myiza kugira ngo umwana azavuke ameze neza.

Muganga ari gusuzuma umubyeyi yabanje kumusuzuma umuvuduko w'amaraso, umubyeyi na we yateze akaboko bamwambitse icyuma kiwupima, muganga yambaye amarinete, yambaye n'akantu ku ntoki hari n'undi uhagaze hafi witeguye kwandika ibisubizo muganga ari bumubwire.

Umubyeyi wikoreye ikidomoro cy'amazi uvuye kuyavoma ku iriba, akaba ari kugenda, akaba ahuye n'abanyeshuri babiri, uw'umuhungu n'uw'umukobwa. Akaba ari kubabwira kwihuta kujya kwiga kuko amasaha yageze.

Umwana wambaye ingofero mu mutwe, uri kumwe n'umubyeyi, waje kwisuzumisha ku mujyanama w'ubuzima, hakaba hari n'abandi babyeyi baje kwisuzumisha ku mujyanama w'ubuzima, umujyanama w'ubuzima ari kumusuzuma amubaza uko amerewe.

Muganga ari gukingira umugore wambaye isaha ku kaboko na muganga yambaye isaha ku kaboko, bose bambaye udupfukamunwa, ari kumutera urushinge rumurinda indwara nyinshi zitandukanye, ni byiza kwikingiza kuko bigufasha kutandura indwara

Abana baje kuvoma amazi meza ku iriba, baje bitwaje ibidomoro kubera yuko amazi ari meza kandi ari ingenzi, afite akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi, akaba ariyo mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe kugeza amazi meza kuri bose, cyabyitayeho akaba amaze kugera ahantu henshi.

Umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, bashishikariza abantu bose kwisuzumisha tukarandura kanseri y'inkondo y'umura, aho buri mwana w'umukobwa wese ku myaka cumi n'ibiri akingirwa inkondo y'umura.

Abagore bahuriye ku bitaro bose bari hamwe, bari kwigira hamwe ibijyanye n'imirire myiza y'abana, umwe muri bo akaba ari kureba imbere yifashe mu mayunguyungu aseka, yiteze agatambaro gasa ivu.

Ababyeyi batatu bari ku iriba barimo gukaraba, inyuma y'igikorwa runaka bavuyemo bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari ibidomoro byo kuvoma mo amazi.

Abana bari mu kigero kimwe bishimiye iterambere ry'amazi ryabegerejwe. Bari gukaraba bafata urugero baberekera uko bazajya babigenza. Amazi ni ubuzima kandi kugira isuku ni byiza ku buzima bwa buri wese.

Amazi meza yageze kuri bose nk'uko mu Rwanda biri mu ntego, umwana waje kuvoma kuri robine, hari ibidomoro bitatu, hakaba hari n'umumama uri kuyakora kugira ngo amazi ajye aza asukuye.

Ikigo gishinzwe kwita ku bana ari cyo UNICEF cyita kuri buri mwana wese kimushishikariza gukomeza ishuri ko kwiga ari ingirakamaro. Cyabasuye kibahereza imipira isa ubururu. Bose barigufata ifoto.

Ubuzima bwiza kuri bose ,tugira amazi meza. Aba bana batoya uko ari bane, baje kuvoma amazi meza ku isoko, hakaba harindi uri hejuru uri kubafungurira abereka ukuntu bazajya bavoma. Amazi ni ingenzi.

Ababyeyi bagiye kwa muganga kwisuzumisha indwara zitandukanye, muganga ari gupima umwe muri bo ari kumupima umuvuduko w'amaraso yamushyizemo icyuma gipima umuvuduko abandi babiri barategereje.

Umunyeshuri wambaye inifomu, uri gukaraba amazi meza, kuko amazi meza ari ubuzima, ibigo by'amashuri byegerejwe amazi hafi n'amatuwarete, iyo uvuyeyo uhasanga amazi ugakaraba ukisukura intoki.

Umwana ari gukorerwa ikidomoro cy'amazi n'umugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero, hakaba hari n'undi uri kubafotora. Gushishikariza abantu kujya kuzana amazi, ni ingenzi akaba ari cyo gikorwa kiri gukore aha.

Abaganga babiri bambaye ibintu bisa ubururu n'uturindantoki n'udupfukamunwa, bari kwita ku murwayi bigaragara ko afite ikibazo mu kanwa, umurwayi yasamye kugira ngo abaganga bamwiteho neza.

Kwita ku bana bakiri bato bafata indyo yuzuye ni byiza kuko birinda ibintu byinshi bitandukanye, bimwe mu byo birinda birinda ubugwingire bikarinda no kuba umwana yagira ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu bari hamwe bari gufata ifoto nyuma yo gufata inyigisho zijyanye no kwita ku buzima bwabo. Abagore n'abagabo bavangavanze, abagabo bambaye ingofero, abagore bifubitse amasharupe bigaragara ko hakonje.

Umuntu uri gukaraba amazi meza n'isabune. Gukaraba ni bimwe mu bigize isuku cyane cyane igihe umuntu avuye kuri tuwalete, igihe umuntu agiye gufata ifunguro cyangwa agiye kurya imbuto. Gukaraba amazi meza biri muri bimwe byagizwe umuco mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Iyo amazi yegerejwe abaturage bagira isuku nk'uko tubibona umwana w'umukobwa asoje kumesa imyenda ari kuvoma mu kidomoro arishimye kubera ko amazi yaramwegereye, ntabwo yigeze avunika ajya kuyakura kure.

Abifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, bari hamwe bamaze gufata amahugurwa agenda abigisha ibintu byinshi bitandukanye mu kwita ku barwayi, bari gufata ifoto baratashye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, iyo bamaze gukina bajya gukaraba ku mugezi, bagakaraba amazi meza n'isabune, nk'uko babitojwe n'abarezi babo bikaba bimaze kuba umuco mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ubuzima bwiza bwegerejwe kuri bose, abantu baje kuvoma amazi meza ku iriba, hateretse ibidomoro byinshi by'abantu benshi baje kuvoma amazi. Nk'uko tubizi amazi ni ubuzima.

Amazi ni ingenzi ku buzima bwa buri wese, akaba ariyo mpamvu Leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kugeza amazi kuri bose. Amazi meza arinda byinshi bitandukanye, akaba ariyo mpamvu abantu baje kuvoma ari benshi.

Ubuvuzi kuri bose. Abantu bicaye hamwe, bazengurutse ameza, barimo bavuga ku bijyanye n'ubuvuzi kuri bose. Umwe ari gutanga igitekerezo cye n'undi akazana icye, bakaba bari buhurize hamwe bagafata umwanzuro.

Abanyeshuri baje kuvoma amazi kuri robine, robine ni eshatu zigiye zifite imigezi imbere n'inyuma, amazi meza yifashishwa mu gukora isuku asukura n'ibikoresho bitandukanye.

Robine irimo isohora amazi meza umuntu ayakaraba kubera ko amazi meza ari ingenzi mu buzima bwacu kandi gukaraba bikaba byongera isuku ku mibiri yacu.

Abagore batatu bakuze bagannye ibitaro, bagiye gufata serivise zitandukanye, umwe muri bo ari gusuzumwa umuvuduko w'amaraso na muganga, yamwambitse icyuma kiwusuzuma.

Umuntu wikorera indobo y'umutuku ufite n'indi y'umuhondo mu kaboko, avuye kuvoma amazi meza ku isoko, nk'uko tubizi amazi ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, akaba ari yo mpamvu amazi yegerejwe kuri bose.

Iriba ryaganwe n'abantu baje kuvoma amazi, hatezeho ibase irimo ijyamo amazi, umubyeyi uri kumwe n'umwana we arinndi ko yuzura, hirya ye hari abandi bana nabo bategereje kuvoma.

Abantu bambaye udupfukamunwa bicaye ku meza, umwe ubahagaze imbere ari kubaha inyigisho zitandukanye zijyanye n'uko ubuvuzi bwegerejwe kuri bose, undi afite mashini imbere ye, ari kujya yandikamo ibyo uri imbere ari kubabwira.

Umugabo wagiye kuvoma amazi ku iriba. Yatwaye ikidomoro, arishimye. Yishimiye ibikorwa byiza byageze kuri bose kuko amazi ari ingenzi ku buzima bw'abantu, akaba abyishimiye.

Muganga ari gukingira umwana amutera urushinge ku kaboko, umwana ateruwe na mama kuko mama we yasobanukiwe neza ibyiza byo gukingiza umwana akiri mutoya, ko bibarinda indwara nyinshi.

Amazi meza asukuye ari muri bimwe igihugu cyacu cy'u rwanda cyitayeho kugeza kuri bose, abana bane b'abakobwa baje kunywa amazi, umwe muri bo aracyari kuvoma ku kigega gisa umukara, babiri b'abahungu muri bo bari kunywa amazi uko bari bose ni abana batandatu.

Amazi meza ni ingenzi, umuntu ari gukaraba amazi atwereka ko gukaraba amazi meza bifasha umubiri wacu, amazi yageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko babyiyemeje.

Abagore bari hamwe bavuye gufata inyigisho ku bitaro zijyanye no kwita ku mirire y'abana no ku isuku y'abana. Kuko tuzi ko abagore bari mu nshingano zo kuba hafi y'urugo.

Ubuvuzi bwageze kuri bose. Uyu mwana akaba yaje kwivuza azanywe n'umuntu mukuru akaba amuteruye, muganga nawe akaba ari kumwitaho amukingira. Ni byiza ko umwana ugize ikibazo ahita ajyanwa kwa muganga.

Umwana urwaye uryamye uri kwitabwaho n'abaganga, imbere hicaye mama we abaganga ni babiri, bari kumutera urushinge ku kaboko bamukingira bagerageza kureba indwara yaba arwaye.

Amazi ni ubuzima, amazi meza yageze kuri bose, uyu mwana akaba ari gukaraba atanga urugero, kuko na we yishimiye ibikorwa byiza byamugezeho, amazi yageze kuri bose kuko amazi ari ubuzima.

Abantu bicaye hamwe, bose bari mu nama bakurikiye umudamu wambaye ikoti ry'umukara n'ikanzu y'umweru, uri kubabwira kubijyanye n'abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Umurwayi ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye hasi, yambaye amapingu, yambaye ikabutura, yambaye umupira utukura, inyuma ye hari abantu benshi, bigaragara ko bamushungereye.

Abana benshi bari hamwe bose bari gufata ifoto baseka, bafite ikibazo cyo mu mutwe, bashobora kuba badatekereza neza. Abana iyo bitaweho bagarura ibitekerezo kare, bitaweho n'abaganga.

Umugore ukuze wambaye amarinete, afite baji mu ijosi bigaragara yuko ari umuvuzi w'ibijyanye no mu mutwe, yambaye ibikomo byinshi ku kaboko n'impeta ku rutoki.

Kwita ku menyo yawe ni byiza cyane kuko bituma utagira ipfunwe ryo guseka mu bandi. Uyu muntu yasetse kubera ko amenyo ye ayitaho, atayagira isoni zo kuba yayagaragaza.

Umuntu wipfutse mu maso akoresheje agatambaro ufite ikibazo cyo mu mutwe, nkuko tubizi umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ibitekerezo bye biba biri gitekereza bitandukanye n'iby'abandi, ku buryo ashobora gukora ibintu bidakwiye akaba ari yo mpamvu abafite ikibazo cyo mu mutwe bitabwaho n'abaganga b'inzobere babyigiye.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, wambaye ubusa hejuru, yambaye urunigi mu ijosi rufite amasaro menshi asa umweru n'andi masaro ane asa umuhondo n'andi asa ubururu.

Umugabo usa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe udafite amenyo imbere hasi no hejuru, wambaye ikintu cy'ubururu, ufite n'ingofero mu gahanga, usa igikara kandi usa nk'ukuze ari kwitegereza imbere.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe yicaye ahantu hatameze neza, hakunze kunyura amazi yanduye, bakunze kuhita muri ruhurura, afite ishashi mu ntoki, yikenyeje igitenge, imbere ye hari ibikweto byanduye byinshi.

Umusore ufite ikibazo cyo mu mutwe, wicaye hamwe, yikenyeza igitenge, yizirika ibindi ku kaguru kubera yuko ibitekerezo by'iwe bidakora neza. Afite ikibazo cyo mu mutwe, ari gutekereza cyane.

Umusore ufite ikibazo cyo mu mutwe, wambaye imyenda ishaje, yacikaguritse, ufite imifuka ahetse n'ibindi acigatiye, uri imbere y'ikimodoka kinini cy'igikamyo.

Abantu bari hamwe bari gufata ifoto bose bafashe ku gipapuro bitegereza ku muntu urimo ubafotora, bahagaze imbere y'imodoka ifunguye, bari bari mu bijyanye na serivise zo kwiga ku bijyanye no gukemura ku bibazo by'abafite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, uri kugaragara nabi mu maso kubera ibitekerezo byamubanye byinshi akaba ari kurira. Akaba akeneye abantu bamwitaho kubera yuko afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye abaganga b'inzobere.

Abana b'abahungu bakiri batoya, bari mu kigero cy'imyaka hagati y'itanu na cumi n'itatu gutyo, bari hamwe bafite ikibazo cy'imitekerereze ku bijyanye no mu mutwe, bamwe muri bo bafite ibidomoro bigaragara ko bagiye kuvoma amazi.

Abantu babiri bicaye ku meza imbere yabo hari amazi, umwe ufite mikoro uri gutanga ibiganiro, undi akaba ari umugabo wambaye agapfukamunwa ufite ikaramu uri kwandika ibyo ufite mikoro ari kubagezaho.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari undi w'umugabo usa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe, wazamuye ipantaro, akaba ari kubaganiriza ibintu biterekeranye kubera ko afite ikibazo cyo mu mutwe, na bo bakaba bari kwibaza aho bazamuvuriza.

Icyapa kigaragaza ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe, uko umuntu yiyumva, uko umuntu atekereza cyangwa se uko umuntu agenda, ni icyapa kivuga neza ku bijyanye no kwitabwaho kw'abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Ni byiza kuganiriza umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe, ukamuba hafi ukamwitaho. Nkuko tubibona umukobwa ara kuganiriza umubyeyi wifubitse ishalupe irimo amabara y'umutuku, amubaza uko yumva amerewe kubera ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abagore bari hamwe bateze amatwi mugenzi wabo arimo abaha inyigisho zijyanye no ku byerekeye ku barwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe, arimo agenda abasobanurira na bo bakurikiye.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ari mu myanda aho bamena ibyamaze gukoreshwa, arabifata arabyambara kandi ibi bintu aba ari bibi kuko byanagutera indwara nyinshi zitandukanye.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara atukura, ari gusuhuza undi usa n'ufite ikibazo cyo mu mutwe yambaye ibintu bishaje, areba ko ibitekerezo bye nibura uko bari kugenda bamuvura biri kugenda bigaruka.

Imodoka itwaye abantu batandukanye, babiri bagaragara, bicaye ku ntebe z'inyuma, undi wipfutse ibitambaro mu mutwe no mu ijosi, ufite ikibazo cyo mu mutwe, na we ari muri iyo modoka.

Abantu benshi bari hamwe, havanzemo abagabo n'abagore, bakurikiye inyigisho ziri gutangwa na muganga ababwira ku bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe ko bwabegerejwe.

Abaganga bita ku bijyanye n'abagwayi bo mu mutwe, bari hamwe bari gufata ifoto, abagabo batanu n'abagore batatu, bose hamwe ni umunani, imbere yabo hari ikintu kinini gifite ibara ritukura.

Umukobwa wishimye w'inzobe wicaye wambaye akantu mu ijosi, wambaye isengeri n'udukomo ku maboko, afite ikibazo cyo mu mutwe nk'uko tubizi umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe akunda guseka ntakimusekeje, akanivugisha.

Abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe ni bamwe bakunze kwitabwaho cyane cyane igihe ikibazo cyo mu mutwe afite cyagaragaye, niyo mpamvu abaganga cyangwa se inzobere mu bavura ikibazo cyo mu mutwe, bakunze guteranira hamwe bakungurana ibitekerezo, bakajya inama y'ukuntu bajya bita ku bafite ikibazo cyo mu mutwe.

Umwana wicaye wipfutse mu maso wambaye umupira w'umukara ufite ikibazo cyo mu mutwe, kuba udafite ikibazo cyo mu mutwe n'ibintu bibi cyane kuko bituma wiheba utekereza nabi ku buryo wanakwiyahura, biba bisaba ngo witabweho n'abaganga.

Umusore wicaye wenyine ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye ahantu hari imyanda handuye hasa nabi, yambaye umupira utukura n'ipantaro n'inkweto zifunze ari ahantu handuye.

Ubuvuzi bw'amenyo buri muri bimwe byateye imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'uko tubibona amenyo yuy'umuntu yarangiritse ku buryo agirwa inama yo kuba yagana ibitaro bimwegereye, kugira ngo avuze amenyo ye, tugire isuku isukuye ku mibiri yacu.

Umwana uryamye uri kwitabwaho na muganga ku bijyanye n'amenyo ye, kwita ku menyo ni byiza igihe ubona amenyo yawe atameze neza ni byiza ko wajya kwa muganga akayitaho.

Muganga wabizobereye ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo ari kwita ku murwayi, ni byiza kwita ku menyo yawe igihe hari rimwe rifite ikibazo cyangwa se n'andi, ukajya kwa muganga kugira ngo bakwiteho.

Muganga w'amenyo ari kuvura umwana ufite ikibazo cy'amenyo, yambaye agapfukamunwa, yambaye amarinete, yambaye n'uturindantoki, ari kwita kuri uyu mwana asa nk'uri kumukura iryinyo kuko uyu umwana afite ikibazo mu kanwa.

Umuntu witaye ku menyo ye aseka nta pfunwe. Uyu muntu afite amenyo meza yera kuko yayitayeho akoresheje umuti wabigenewe. Amenyo kwitabwaho ni ingenzi ku buzima bwa buri wese.

Umukobwa ufite ikibazo cy'iryinyo ritaringaniye n'andi waje mu bijyanye na serivisi zo kuvurwa amenyo bakaba bagiye kumutereraho iryinyo kuri iryo ngiryo rifite ikibazo.

Abana bigishijwe ibyiza byo koza amenyo bakaba bari koza amenyo n'uburoso na korogate, ni byiza kwita ku buzima bw'amenyo, wigisha umwana wawe koza amenyo akiri muto, aho amenyo ye akura ameze neza.

Kwita ku menyo ni byiza nk'uko tubibona abana bahawe umuti wifashishwa mu koza amenyo kugira ngo amenyo yawe ase neza kandi wirinda indwara zitandukanye, uko umaze kurya ukoza amenyo birinda amenyo yawe.

Kwita ku menyo ni byiza ku buzima bw'umuntu, umuntu yagiye kwa muganga ari kwita ku menyo ye, muganga amaze kuyoza amenyo ye arimo asa neza nk'uko tubibona.

Abantu babiri b'abagore bafite impapuro n'amakaramu mu ntoki, umwe yambaye amarinete n'ikote ritukura, undi yasetse cyane afite amenyo meza y'umweru bigaragare ko ayitaho.

Umukobwa afite uburoso mu ntoki ari koza amenyo yishimye. Koza amenyo biri muri bimwe bituma umuntu agira ubuzima bwiza yirinda n'indwara zafata mu menyo.

Abantu babiri bari hamwe, umwana n'umukuru, bose bambaye imipira y'imyeru, bafite urudodo mu kanwa banyujije ku menyo. Amenyo yabo arasa neza, ni umweru ,kuko yitaweho akarindwa kuba yakwangirika.

Umuntu ufite amenyo meza wasetse akaba ari yo ashaka kutwereka, nkuko tubizi kwita ku menyo ni ingenzi. Kugira amenyo meza bisaba kuyoza uko umaze kurya, ukaba wayoza ukoresheje umuti wabigenewe na korogate.

Umusore ufite imisatsi ku mutwe izinze wogoshe mu mpande wasetse, ari kutwereka ibijyanye n'amenyo mu kuba yita ku menyo ye akaba afite isuku.

Abanyeshuri bamaze guhabwa imiti ikoreshwa mu koza amenyo n'uburoso; kuko tuzi ko koza amenyo ukiri muto bituma amenyo yawe asa neza, kandi ukaba uyarinze uburwayi bwinshi butandukanye.

Muganga w'amenyo, ari kwita ku mwana ufite ikibazo mu kanwa. Afite utwuma twabigenewe, dukura amenyo cyangwa se tukayashyira ku murongo. Yambaye uturindantoki kugira ngo ataza kugira ubundi burwayi na we bwamufata.

Kwita ku menyo yawe ni byiza kuko bikurinda umwanda bikaba byakurinda umwuka mubi uva mu kanwa, bikaba byanatuma umuntu musomanye yumva nta kibazo, uyu muntu afite isuku y'amenyo mu kanwa.

Ni byiza kwita ku bantu bakuze ubaganiriza ubaba hafi, kuko baba bafite ibibazo byinshi bitandukanye cyane cyane ibya stress. Ni byiza rero kubaba hafi ukabaganiriza ugatuma bamwenyura.

Umugabo ufite imisatsi y'umweru ateruye umwana we, umwana ufite agapupe mu ntoki, ari kumwitaho amukinisha, amwigisha ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane iby'umuco nyarwanda.

Umusaza uri gukoreshwa siporo, akurura umugozi undi awumufatiye. Ni byiza kwita ku bantu bakuze bakareka kwigunga, bakareka guheranwa n'agahinda. Uyu ari kurambura ingingo ze z'amaboko.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu nkuko tubizi ifasha abantu benshi batandukanye nkuko tubibona aha hari umwana uri kumwe na se, bari gukina umupira w'amaboko, ariwo bita basiketi.

Abantu babiri umwe muri bo n'umugore afite inkoni mu ntoki, arakuze undi ni umuganga yambaye icyuma bakoresha bapima umuriro mu ijosi, ari kwita ku murwayi amwitaho bifotoza.

Kuba hafi y'abantu bageze mu zabukuru ni ingenzi kuko bituma bakomezanya icyizere cyo kubaho kwabo. Uyu musaza ari kumwe n'umuntu ukiri muto amwereka umuti, uburyo azajya yiyitaho ku buryo imyaka yo kubaho yakwiyongera.

Kwita ku bageze mu zabukuru ni ingenzi. Uyu musaza ageze mu zabukuru aho ibitekerezo byiwe biba bidatekereza neza. Akaba ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa, uri kumusekera.

Abakecuru cyangwa se abasaza ni bamwe mu bakunze kugira indwara nyinshi zitandukanye urugero nka za rubagimpande, umugongo cyangwa se umuvuduko w'amaraso, ni byiza rero kubitaho ukababa hafi ukabajyana ku bitaro ukabasuzumisha akenshi.

Umukecuru ukuze ari muri siporo ari kwiyitaho, ari kurambura amaguru, umugongo, yicaye kuri tapi isa n'ivu, yambaye ipantaro y'umutuku n'umupira w'imbeho.

Ni byiza kwita ku bantu bari mu zabukuru kutabatererana kubera ko nta mbaraga bafite, nk'uko tubibona aha hari umusaza ari kwitabwaho na muganga amwigisha gutambuka, agenda kugira ngo arambure ingingo ze z'amaguru.

Umukecuru uri mu za bukuru uri kwitabwaho na muganga, amusekera, amwereka urukundo rwinshi, kuko ikigero baba bagezemo baba basaba urukundo nk'urwo baba barereretse abana babo. Kwita ku bakuze ni byiza.

Abantu babiri bari gukora siporo umugabo n'umugore. Umugore yambaye isaha ku kaboko n'umugabo nawe yambaye isaha ku kaboko, siporo kuko ari ingenzi mu buzima iri ni indwara nyinshi zitandukanye niyo mpamvu bari kubikora bishimye.

Abantu babiri bari kumwe, umwe w'umugabo undi w'umukobwa ari kwita ku mugabo asa nk'ukuze amufashe ku rutugu, amufashije n'akantu ko gucunga amwigisha uburyo ki yagakoresha.

Umupapa uri mu zabukuru wambaye amataratara, ufite ikibazo cyo kureba, wambaye umupira usa umweru, ari kumwe n'umuganga umwitaho, umwereka uburyo ki yarambura imitsi y'akaboko.

Umusaza uri mu zabukuru, uri kwitabwaho na muganga, yamuhaye akamufasha gutambuka agahagarara akema. Nkuko tubizi abageze mu zabukuru baba bafite imbaraga nkeya, akaba ari yo mpamvu baba bakeneye kwitabwaho.

Umugabo ugeze mu zabukuru wicaye ku buriri, wambaye amarinete, ari kwitabwaho n'umukobwa we. Kwita ku bakuze ni byiza kuko ntibaba bakibasha kureba nta n'imbaraga baba bafite.

Umukecuru wambaye umupira w'umutuku ari kumwe n'umusaza wambaye umupira w'ubururu. Umusaza wambaye n'agakomo ku kaboko. Barigukina udukino bicaye ku meza, kuko kwiyitaho ari byiza ku buzima cyane cyane abakuze.

Umusaza n'umukecuru, umusaza uri kwereka umukecuru muri terefone amashusho meza, kuko kwiyitaho ugeze mu za bukuru ari byiza, bikongerera iminsi yo kubaho, bafite amazi imbere yabo n'imiti, bigaragara ko bari kugenda babinywa.

Muganga ari kumwe n'umusaza amwereka ukuntu yarambura umugongo, ashyira akaboko hasi, akandi kari inyuma. Muganga ari kumwigisha uburyo ki yakomeza yiyitaho kuko kwita ku bageze mu zabukuru ari ingenzi.

Nkuko tubizi imboga n'imbuto ni byiza ku buzima bwacu. Umuntu ugeze mu za bukuru bikaba byiza kurushaho iyo ariye indyo yuzuye iteguranye isuku kandi igizwe n'imboga n'imbuto.

Ababyeyi batatu bigaragara ko bakuze bari gufata ifoto bose bari hamwe, barebamo, bishimye cyane, bose basetse, babiri muri bo bambaye amaherena, urimo hagati ni we ufashe telefone bose barebamo.

Kwita ku bantu bakuze ni ingenzi kuko bifasha abakuze mu kubona ko batari bonyine. Uyu ni umusaza ari kwitabwaho kubera ko nta mbaraga afite, afashwa mu kaboko, agezwa aho ashaka.

Kwita ku bageze mu zabukuru ni byiza, abantu batanze intebe zo kwicarwaho n'abageze mu zabukuru, kubera yuko bagaragaje ko bakunze kuba bafite ikibazo cy'uburwayi bw'umugongo.

Abantu babiri bageze mu zabukuru, umwe ni umusaza undi ni umukecuru, umukecuru yambaye isa ku kaboko, umusaza yambaye amataratara bigaragara ko afite ikibazo cyo kureba.

Kwita ku bageze mu zabukuru ni ingenzi kuko bibongerera iminsi yo kubaho. Aha hari umukecuru uri kwarurirwa indyo yuzuye, umuhungu we mukuru n'umukobwa we bamushyizemo hagati.

Abakecuru babiri bari hamwe bose bakuze, umwe wambaye umupira w'umutuku, undi wambaye umupirasa w'ubururu, bari kwiyitaho bafata imiti kugirango bagire ubuzima bwiza.

Mu Rwanda ubuvuzi bwageze kuri bose ku buryo buri murenge nibura ugiye urimo ibitaro cyangwa se akagari kakaba karimo ibitaro, kugira ngo Abanyarwanda bivuze bitagoranye. Aba babyeyi uko ari bane bari gufatira ifoto mu ikadere bagaragaza ko bishimiye intambwe nziza u Rwanda rwagezeho.

Abana b'abakobwa bambaye imipira isa hejuru, bari gufata ifoto mu ma cadire, nyuma y'uko bavuye mu nama, ibashishikariza ku bintu bijyanye n'ubuvuzi.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe gutanga ubuvuzi bwa hafi nko mu bijyanye no gutanga amaraso cyangwa se umwuka, gihinnye mu nyuguti eshatu, itangira isa ubururu ikurikira isa umuhondo isoza isa icyatsi.

Abantu bicaye bose bambaye udupfukamunwa baje kwisuzumisha icyorezo, ikigaragara ni uko muganga ari gukorera umwe amurebera uko ahagaze, anamubwira ibisubizo by'iwe uko byifashe.

Umugabo wambaye ikositimu, ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'ishati isa buresiyeri, wambaye baji mu ijosi. Ari kumwe n'umukobwa wambaye ikanzu ngufi n'inkweto ndende y'umukara. Bari kwifata ifoto ku cyapa kigaragaza ibintu bijyanye n'ubuzima bwiza.

Ababyeyi, umupapa n'umu mama, bari kugaragaza ibijyanye n'ubuvuzi buri hafi aho. Umubyeyi umwe w'umumama witeze igitambaro gitukura, wambaye amarinete, yasetse, arishimye mu bijyanye n'ubuvuzi bwabegerejwe.

Ubushita bw'inkende, ni indwara yaje ikayogoza benshi bagize isi, ariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hakajijwe ingamba zo kukirinda, ntihagira abantu benshi cyangiriza.

Umukobwa ari gusangiza bagenzi be ibitekerezo yambaye amarinete afite mikoro mu ntoki afite telefone yambaye gikobwa, hari abana babiri b'abahungu bamuteze amatwi umwe ari kugaragara neza undi ntabwo ari kugaragara hose.

Umukobwa wicaye wambaye ipayntaro y'umukara n'umupira w'umukara, wambaye baji mu ijosi ifite umugozi w'ubururu, ufite mikoro, wambaye amarinete. Bigaragara ko afite ikibazo cy'amaso arigutanga inyigisho ku bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina.

Abantu bari gutanga ibikoresho by'isuku byifashishwa mu kwirinda indwara zitandukanye, bose bambaye upfukamunwa, bambaye imipira isa oranje, usibye babiri barimo batambaye imipira isa, umugore yambaye ibitenge n'umupapa wambaye umupira w'umweru.

Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda minisitiri ishinzwe ubuzima bwiza. Nk'uko tubizi minisitiri ishinzwe ubuzima bwiza iri muri bimwe bipima ibintu bitandukanye cyane mu bacuruzi n'abafite ibintu byapfuye, cyangwa se imiti niba yemewe akaba yabitugezaho.

Abaganga bambaye imyenda isa icyatsi, bambaye udupfukamunwa, ingofero, bambaye uturindantoki dusa umweru, bicaye hamwe bari kugenda biga ku bintu bitandukanye bijyanye na serivisi z'ubuvuzi.

Abamama babiri bari mu zabukuru, bagiye kureba umuganga ngo abiteho. Muganga ari gusuzuma umwe ku kaboko, yamushyizeho akantu karareba uko amaraso ye arimo agenda. Ari kumubwira ngo ni abe yitonze, kugira ngo atica ibipimo.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi, yubatse neza isize amarangi y'umweru, irimo tapi isa icyatsi iyo tapi ikaba irimo imirongo y'umweru ishushanyije, imiremire n'imigufi.

Inyubako nini, yubatswe neza, izajya itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Imbere hari abantu benshi bari gutambuka bayitegereza uburyo isa neza. Iyi nyubako izajya yakira abantu benshi batandukanye baje bayigana.

Ibitaro bya Shyira, ni inyubako yubatse neza, isa neza, kandi yakira abarwayi benshi baza bayigana. Ibi bitaro bizwiho nko gutanga serivisi nziza, cyane cyane ku zijyanye no kuvura amaso.

Muganga ari kwita ku muntu waje ubagana. Umurwayi aricaye ari kubwira muganga uko yumva amerewe. Muganga na we afite igitabo ari kujya yandikamo uko yumva umurwayi amerewe.

Buri bitaro byose byagejejwemo inzitiramibu kubera ikibazo cyo kurwara malariya kw'abarwayi. Umugabo ari kuzinga inzitiramibu kuko bwakeye nta mibu iba iri kugenda.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba ifite idarapo ry'u Rwanda riri imbere yayo, hakaba hari abantu baje bayigana, hafi yayo hari ibiti, ibyo biti bikaba bifasha mu gutanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, zikunze kugira amacumbi y'abarwayi, hamwe abarwayi n'abarwaza bagomba kuba bari kandi hari isuku kuko hari igihe umurwayi aje afite imbaraga nkeya, bikaba ngombwa ko aryama ku gitanda akamara iminsi yitabwaho n'abaganga.

Abantu batatu umwe uhagaze mu muryango yerekera aho babiri bari buce, undi yicaye mu kagare bari kumusunika bigaragara ko afite ikibazo cyo kutagenda, ari gusunikwa n'umwana ukiri mutoya.

Abantu benshi batandukanye bagannye ivuriro baje gufata serivisi z'ubuvuzi, kuko bagiye bafite ibibazo bitandukanye abarwayi cyangwa se abaje kwikingiza. Ivuriro rikaba ryaregerejwe kuri bose, aho buri muturage agera ku ivuriro bitamugoye.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ziganwa na benshi, niyo mpamvu buri nyubako iba ifite umuntu urinze umutekano umenya abinjiye n'abasohoka. Nk'uko turi kubona uyu mugabo uri imbere y'amarembo ni we ubishinzwe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ubw'amaso, hakaba harimo intebe isa umukara yicarwaho n'uje ushaka serivisi, hakaba harimo n'indi ntebe isa ubururu yicarwaho n'utanga serivisi.

Abaganga bane, bose bambaye udupfukamunwa, bambaye n'iyenda y'akazi, bari kwifotoza. Iyi ni inzu y'ababyeyi, itangirwamo serivisi, zireba gusa ababyeyi, urugero nk'umubyeyi utwite cyangwa se umubyeyi wabyaye, ni aha ngaha aba ari.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iki akaba ari ikigo nderabuzima cya Gisheru, aho abaturage baza bakigana bagahabwa serivisi nziza. Imbere yacyo hakaba hari abantu bane bahagaze bareba imbere

Abagore batatu bari hamwe, bambaye imyenda isa ubururu, bafite udutambaro mu mutwe, bagaragara nk'abaganga, bari kwifotoza, babiri basetse, undi ari kureba mu ifoto gusa ntago yasetse. Ubuvuzi bwegerejwe kuri bose, nicyo kigaragara.

Inyubako yubatse neza itangirwamo serivise z'ubuvuzi, nk'uko tub izi ahatangirwa serivise z'ubuvuzi ni ahantu haba hubatse neza, hafite isuku hitabwaho kuko haba hagera abantu benshi.

Ibitaro byitwa Legacy bitanga serivisi nziza, nkuko tubibona hakaba hari ababigannye benshi baparitse imodoka, hakaba hari uri kuyobora imodoka azerereka aho ziparika kugira ngo zitabangamirana.

Abarwayi barwariye mu bitaro, buri murwayi wese afite muganga uri kumwitaho, muganga wambaye uturindantoki, wambaye n'agapfukamunwa, kugira ngo nawe ataza kuba yakwangirika, cyangwa yakwandura indwara muri izo barwaye.

Umurwayi urwariye mu bitaro uryamye ku gitanda akaba hafi hari muganga uri kumwitaho, muri ibi bitaro bikaba bigaragara ko harimo isuku aho buri gitanda kigiye gifite akantu gakusanyirizwamo imyanda.

Ivuriro ryasuwe na bamukerarugendo b'abazungu, bari gufata ifoto ku bitaro byitwa Butaro bose bishimye, bari kumwe n'abirabura babatembereje.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubuvuzi, yaganwe n'abaturage, hakaba imbere yaho hari igiti, nk'uko tubizi, ibiti bikaba bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, cyane cyane ko abarwayi baba bawukeneye igihe baje kwivuza.

Mu nyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi hakunda kuba utu tuntu ari two bakoresha bari gupima ibiro by'abana ariko twitwa imyunzani kugira barebe niba umwana ari gukura neza cyangwa se ari mu mirire mibi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, irimo intebe nziza, ku mpande hakaba hashushanyije ijisho, bigaragara ko iyi nyubako yihariye mu kuvura indwara zijyanye n'amaso, nk'uko tubizi abantu benshi bakunda kugira ikibazo cy'amaso.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ni ukuvuga ngo iyo nyubako iba ifite amacumbi acumbikira abarwayi, igihe umurwayi arembye atarabasha gusubirayo, aba afite ahantu ho kurara hateguye neza, ikagira n'ahandi bakorera isuzuma ku murwayi uri buhite utaha.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ziba zirimo ibitanda bimeze neza bisukuye, hakabamo n'amarido, uyu muntu ari kugenda agenzura niba harimo isuku ihagije.

Jaride nziza, isa neza, iri imbere y'inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, izi nyubako, zigomba kuba zifite amajaride, kuko hari igihe abaturage babagana bagira ikibazo bikaba byasaba ko bicara muri izi jaride, kuko ziba zisa neza.

Inyubako itangirwamo serivisi y'ubuvuzi, iki akaba ari ikigo nderabuzima cya Matyazo, aho mu Rwanda hageze itegeko ry'uko buri kagari kagomba kubamo ivuriro, aho buri muturage wese azajya avurwa bitagoranye.

Intebe ebyiri ziri mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, intebe imwe ikaba isa umukara ifite amapine indi ikaba isa ubururu n'amabara y'umweru nayo ikaba ifite amapine harimo n'akameza kariho ikintu kimeze nk'imashini kifashishwa mu gusuzuma.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda bisashe neza, bisasheho amashuka asa icyatsi kibisi, bigiye biriho amarido impande yabyo.

Muganga ari kuvura akana agatera urushinge ku kaboko, akana kashinyirije bigaragara ko urushege rwakariye. Muganga ari kugakomeza akabwira amagambo meza, nkuko tubizi abana bakunda guhumurizwa mu gihe cy'ububabare.

Inyubako itangirwamo imiti, iherereye i Remera, imbere yayo haparitse imodoka isa ubururu, hirya hakaba hari indi modoka iparitse isa umweru n'utujaride twiza, dusa icyatsi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubatse neza, iri gusohokamo imodoka, hanze hakaba hicaye umuntu wambaye umupira w'ubururu bigaragara ko ari umusekirite.

Abantu bicaye imbere y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane ababyeyi. Bicaye imbere y'inzu y'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo aba bantu bari gukora inama, ijyanye n'ukuntu bazajya bakira ababyeyi baje babagana.

Umubyeyi urwaye, uryamye ku gitanda, kwa muganga, muganga akaba ari kumwitaho, amubaza uko amerewe, amutera agashinge ku kaboko. Muganga yambaye amarinete, yambaye n'itaburiya isa umweru.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iki ni ikigo nderabuzima cya Kanyinya aho abarwayi begereye aha hantu baza kwivuriza mu gihe gitoya kandi bakitabwaho neza.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, kimwe mu nyubako nziza zitanga serivisi nziza zijyanye n'ubuvuzi. Aho abantu bakigana bakagenda bishimiye ubwiza bwa serivisi bahawe.

Farumasi ikaba ari inyubako nziza iba iteguwe neza ifite isuku, ikaba ibikwamo imiti itandukanye, nkuko tubizi iyo wagiye kwa muganga bakwandikira imiti akenshi ukayigura muri farumasi.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubatse imbere yayo hagiye hari amatara yaka ibara ry'icyatsi, ikaba ifite amadirishya ane inzugi ebyiri.

Imiti iteguye neza, itondetse ku murongo, ivura indwara nyinshi zitandukanye. Inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, zikunze kuba zubatswe neza kandi zirimo utuntu tubika imiti ku buryo bwiza kandi burambye.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi, iyi ngiyi akaba ari imwe mu nyubako zikorerwaho ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi. Irasa neza, imbere hari jaride n'umuhanda mwiza ku buryo imodoka ishobora kubona ahantu ho guparika.

Abaganga babiri bambaye amataburiya n'abandi bicaye bari gufata inyigisho bandika ibyo uhagaze ari kubabwira, uhagaze akaba ari kubabwira ibijyanye n'imiti cyangwa se ibyo wakwifashisha mu gihe cya siporo.

Umusore uri muri siporo wambaye isengeri n'ipantaro n'inkweto zifunze imbere hakaba harimo amasogisi y'umweru. Ari gukora siporo kuko siporo ari ingirakamaro zirinda indwara nyinshi mu mubiri.

Siporo ni ubuzima, siporo ifasha ibintu byinshi bitandukanye, iyo ukora siporo wirinda amahirwe menshi yo kuba warwara umutima , kuba warwara ibicurane no kuba warwara umutwe bitunguranye.

Umukobwa wakoze siporo akaba yagize ikibazo cyo mu ivi, akaba ari kwitabwaho na muganga, aho muganga ari kumufasha gukira, ni byiza gukora siporo kandi abaganga barahari ngo batwiteho igihe twagize ikibazo.

Gukora siporo ni byiza ku buzima bwa buri wese, iyo ukoze siporo, uba uri kwirinda indwara nyinshi zitandukanye, nk'uko tubibona aha hari umuntu uri gukora siporo arambura akaboko ke, kugira ngo agorore ingingo zo mu kaboko.

Umusore wumuzungu uvuye muri siporo, uri kunywa amazi yambaye ekuteri mu matwi, afite terefone, yambaye isaha, yambaye inkweto zifunze, ipantaro yumukara, yicaye kuri esikariye ari kunywa amazi.

Gukora siporo ni ingirakamaro. Igihe uri muri siporo itwaze bimwe mu bintu byakurengera uramutse ugize ikibazo. Urugero nk'amazi, kuko igihe wahagiye ushobora kunywa amazi akagufasha gutuza.

Igare ryicarwamo n'umuntu ugize ikibazo, nk'igihe uri muri siporo ukaba wavunika cyangwa se watsikira. Iri ni igare ushobora kwicaramo bakagucunga bakakugeza kwa muganga byoroshye, kuko uba utabasha gukandagira cyangwa se gutambuka.

Umwana w'umukobwa uri kunywa amazi, kuko amazi ari ingenzi igihe wakoze siporo. Amazi atuma usohora imyanda mu mubiri kandi akaba yatuma wihagarika neza inkari zitanuka. Ni byiza rero kunywa amazi igihe icyo aricyo cyose.

Ni byiza gukora siporo, cyane cyane ukambara ga, zirinda intoki kuba wagwa ukangirika mu biganza cyangwa se bikaba byagufasha mu gufata umupira byoroshye ukaba utanagukomeretsa mu kiganza.

Umwana wicaye hasi inyuma ye hakaba hari umuntu wihayimana nkuko tuzi ko baba bambaye ivara mu mutwe n'amakanzu maremare. Umwana afashweho n'umuzungu barigufata ifoto bose bareba muri kamera.

Gukora siporo ni byiza bigabanya ibiro, bikagabanya n'indwara nyinshi zitandukanye nk'uko tubizi mu Rwanda bashyigikira siporo ku buryo bashyizeho n'umunsi wo gukora siporo rusange.

Umusore wambaye insengero y'umukara n'ikabutura y'umukara uri gukora siporo apfukamye ku mukeka arambuye amaboko ari kugorora umugongo, ni byiza gukora siporo bigorora umubiri wawe.

Umusore wambaye umupira w'umukara yambaye na kora isa umukara, inyuma agakabutura karimo imirongo y'umweru, yambaye udukomo twinshi ku maboko ari gukora siporo, arambura amaboko, akarambura n'amaguru, ari kugorora ingingo ze zigize amaboko n'amaguru.

Siporo ni ingenzi kandi irinda indwara nyinshi zitandukanye, akaba ari yo mpamvu hari imiti cyangwa se ibikoresho byifashishwa birinda umuntu wagize ikibazo kubera siporo.

Amazi ni amwe mu byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo akaba yagira ikibazo cyo kwahagira cyane, amazi iyo uyanyweye ashobora gutuma ugabanya umuvuduko w'amaraso wari ufite.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakunze kuvunika, cyangwa se bakagira ikibazo mu kaguru, iki akaba ari kimwe cyifashishwa mu kuba bagorora igufa, cyangwa se imitsi y'akaguru yagize ibabazo.

Umuntu wakoze siporo, akaba yananiwe, akaba yagize n'ikibazo mu ivi, abaganga babishinzwe bakaba bamwambitse ikiratuma rigororoka ritari bwangirike. Siporo ni nziza ku buzima bw'abantu cyane cyane, kuko ifasha mu kuba yagabanya umuvuduko w'amaraso.

Siporo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu. Siporo zirinda ibintu byinshi bitandukanye, zirinda uburwayi bwo mu mubiri. Uyu muntu ari gukora siporo arambura ingingo ze z'amaguru. Ateye akaguru hejuru, akandi kari hasi.

Umusore uri muri siporo wambaye isaha ku kaboko n'insengero isa umukara, ari kurambura ingingo ze zigize akaguru, yicaye hasi. Siporo ni ingirakamaro kuri buri muntu wese kandi irafasha cyane.

Siporo ni ingenzi ku buzima bwacu. Nkuko tubibona uyu mugabo ari muri siporo, arimo gutoza ingingo ze zose gukora neza. Ari gukora massage mu ivi agenda arirambura.

Abantu batatu hagati yabo harimo uwari umukinnyi wari uri muri siporo akaba agize ikibazo akaba ari kwitabwaho, bakaba bamwambitse ikigofero mu mutwe aho kiratuma ubwenge bwe busubira ku gihe agatekereza neza.

Umusore uri gukoreshwa siporo n'umugabo. Umusore yateruye ibintu mu kaboko ke biremereye, kuko biri gutuma arambura ingingo ze z'amaboko, akaba yapfukamye kubera yuko nabyo biri kumufasha kuba atananirwa vuba.

Umuntu wicaye wavuye muri siporo agakomereka hafi n'ivi, ari kwishyiraho ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo ataza kugira ikibazo gikomeye kuko ubuvuzi bwegerejwe kuri bose.

Siporo mu Rwanda yateye imbere. Iyo abakinnyi bagiye muri siporo bagomba kugendana n'abavuzi ku buryo ugize ikibazo bamwitaho bakamuvura byoroshye. Ibi bikapu birimo imiti yifashishwa mu kuvura abakinnyi bagize ikibazo.

Igare riri muri bimwe byifashishwa mu gihe umuntu yahuye n'imvune, cyane cyane abakinnyi ba siporo, hari ukuntu umuntu akora siporo akaba yavunika, akagira ikibazo mu kaguru, aka kagare kakaba kakwifashishwa yicaraho kugira ngo bamugeze ku butabazi bw'ibanze.

Siporo ni nziza ku mubiri w'umuntu. Uyu mukobwa ari gukora siporo arambura amaboko ye, arambura n'umugongo, yambaye isaha ku kaboko. Siporo irinda indwara nyinshi zitandukanye, irinda kuba warwara umugongo cyangwa se kuba warwara rubagimpande.

Gukora siporo ni byiza, wasoza gukora siporo ukanywa amazi kuko afasha, uyu muntu ari kuva muri siporo, ari kunywa amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza yumve atuje muri we, yambaye ekuteri mu matwi, yambaye n'agakoma gasa umukara ku kaboko.

Umusore w'ibigango wakoze siporo akaba yarubatse umubiri, wambaye isengeri, wambaye n'ibintu ku maboko bisa move, ari muri siporo ariko arananiwe akaba ari kwimena amazi mu mutwe kuko bifasha, bikaruhura, bikaba byatuma wongera kumva ugaruye...

Umukobwa uri gukora siporo, wicaye arambuye umugongo, arambuye akaguru bigaragara ko ari kugorora imbavu ze zigize umubiri. Ni byiza gukora siporo kuko ari ingenzi.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu cyane cyane ku bakuze kuko siporo ituma imitsi ikomeza gutambutsa amaraso neza mu mubiri kandi ikaba yatuma umubiri wawe uhumeka neza.

Siporo ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, ni na yo mpamvu hateguwe imiti ifasha abari muri siporo, n'igihe bagize ikibazo hakaba hari imiti bakwifashisha, harimo amapomade, harimo amabande babazirika mu gihe akaguru kagize ikibazo cyangwase akaboko.

Umusore wavuye muri siporo uri kunywa amazi, wicaye ahantu hamwe hatuje, wambaye ikabutura y'umukara, ikote rifite imashini y'umukara, rifite n'ingofero, ari kunywa amazi kuko amazi ari ingirakamaro.

Imodoka itwara abarwayi, bakunze kwita imbangukiragutabara ifite amatara menshi atukura inyuma, n'ipine riri inyuma ritari muri agenda, iri mu muhanda.

Amakarito apanze ahantu hamwe acucitse, akaba arimo imiti ikoreshwa mu gihe cya siporo. Umuntu uri muri siporo akenera imiti itandukanye nk'igihe yahumagiye cyane kubera kwiruka, hari imiti yabugenewe yamufasha.

Umukobwa uri muri siporo wambaye agasengeri, wambaye isaha ku kaboko irajya imufasha kumenya aho amasaha ageze, akaba yambaye n'akandi ku kaboko ko hino, kamurinda kuba yakwangirika igihe aguye.

Umusore uri muri siporo wambaye isengeri y'umukara, n'ipantaro y'umukara, agakoma ku kaboko gasa icyatsi, ufite icupa mu ntoki rifunguye ririmo amazi meza asukuye araza kunywa mu gihe asoje siporo.

Abantu babiri bari gukora siporo bari ahantu habugenewe harimo n'ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo, umwe yambaye isaha ku kaboko, umupira utukura n'ikabutura, undi yambaye ipantaro n'umupira w'umukara bose bari mu gikorwa kimwe.

Nk'uko tubizi abantu bari muri siporo bakunda kugira ibibazo bitandukanye. Umwe ashobora kuvunika cyangwa se akaba yatsikira, akaba akenera abantu bamwitaho. Ibi bikapu bisa umutuku bikunze gutwarwamo imiti ibafasha.

Umusore w'ibigango wambaye isaha ku kaboko, wambaye ikabutura, ari gukora siporo arambura ingingo ze, iz'amaguru n'iz'amaboko, kuko siporo ari ingenzi kandi siporo ikaba ituma udasaza vuba.

Imiti iri mu macupa atandukanye amanini n'amato, ikaba ifasha mu kuvura uburibwe cyangwa se mu kugabanya. Iyi miti ikaba ikozwe mu bintu byinshi bitandukanye cyane cyane iya gakondo, ikaba yagufasha mu gihe wakoze siporo ukananirwa ukaba wayisiga ikagabanya uburibwe.

Imiti gakondo ivura neza kandi nta ngaruka igira mu buzima bw'umuntu, nk'urugero umunatu yakoresheje imiti gakondo usange yarwaye kanseri n'ibindi bitandukanye. Iyi miti iri aha iteguye neza, izifashishwa mu kuvamo amavuta cyangwa se ibindi.

Ikimera gisasiye neza, gifite amababi atandukanye, kiri muri bimwe byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo mu Rwanda, cyane cyane ko bwateye imbere kandi bufasha benshi.

Ingemwe ziri muri pipiniyeri zisa icyatsi, zigaragara ko nizikura zizajya guterwa ahantu hatandukanye. Ziri kwitabwaho n'abantu, kuko twaje kubona ko ibihingwa cyane cyane byifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Hari ibyatsi n'imbuto, zifashishwa mu gukora imiti gakondo nkuko tubibona hari ibyatsi bitandukanye, hari n'imbuto. Ibi bikaba ari bimwe mu bikoreshwa bivamo imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye.

Mu kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo biri muri bimwe biri kwitabwaho cyane mu Rwanda no ku isi hose, kuko hamaze kuvumburwa ko ubuvuzi gakondo cyangwa se imiti gakondo ifasha cyane kurenza imiti ikozwe mu bintu bitandukanye.

Uru ni urugero mu miti ivura indwara zitandukanye akaba ari imiti gakondo, iri mu tuntu dutandukanye ifite amabara atandukanye, umuntu ayifite mu biganza ari kutwereka igiye itandukanye.

Imiti gakondo ikunze gutegurwa mbere igashyirwa mu macupa, aha hari amacupa ane atandukanye, hari irirerire cyane hakaba n'andi magufi apfundikiye, hakaba n'irindi riri ku ruhande ridapfundikiye.

Amacupa menshi agiye atandukanye afite amabara atandukanye arimo imiti ya gakondo. Iyi miti ni myiza ku bantu bafite ibibazo by'uruhu, ibibazo byo mu nda n'ibindi bitandukanye irabakiza.

Ibikope bibiri, bisa umweru, biteretse hamwe, biri gutegurirwamo umuti gakondo, ukaba wawifashisha uwunywa, ukakuvura indwara zitandukanye zo mu mubiri.

Imiti gakondo yiganjemo ibyatsi bimera, biba bifite amabara atandukanye. Cyane cyane bifite ibara risa icyatsi gihishije n'icyatsi cyijimye.

Ibyatsi byemeza biri muri bimwe bikoreshwa nk'imiti gakondo, bamwe babikoresha bivura indwara zo mu nda, abandi bakabikoresha bivura indwara z'uruhu, cyane cyane ko mu Rwanda byizewe kandi byateye imbere.

Amacupa agiye atandukanye, arimo amavuta yisirwa akozwe mu miti gakondo, rimwe rirerire ririmo ibintu bitukura, yose arapfundikiye, n'irindi rigufi ripfunduye ririmo ibintu bitukura.

Iyo wisize amavuta meza uruhu rwawe rusa neza, ukirinda indwara nyinshi zitandukanye z'uruhu cyane cyane nk'ibishishi cyangwa se ibintu bituma uruhu rwawe rwangirika. Aya mavuta akoze mu miti gakondo, amaronji n'ibindi kandi umuntu wese yabasha kuyagura.

Imiti gakondo mu Rwanda yateye imbere kandi iremezwa, mu Rwanda dukunze gukoresha ibyatsi byimeza mu kuvura abarwayi, cyane cyane ibyatsi bisi icyatsi bikoreshwa bivura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti gakondo, cyane cyane ibikozwe mu byatsi bya kimeza. Ibikakarubamba biri muri bimwe bikoreshwa cyane, cyane cyane mu koza amenyo. Amacupa arimo korogate, ikoreshwa mu kwiborosa, ikaba ikozwe mu miti gakondo.

Icupa ry'umweru ripfundikiye neza, riteretse ahantu h'umukara hatagaragara neza, ririmo umuti ukoreshwa mu kwivura ibintu bitandukanye, cyane cyane ukozwe muri gakondo.

Amafoto ane ari hamwe agaragaza imiti itandukanye ya gakondo ivura indwara zitandukanye, harimo igikakarubamba kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu cyane cyane ku bantu bafite ibiheri mu maso.

Imiti gakondo ni myiza, kuko ikoreshwa n'abantu benshi, kandi ikaba nta ngaruka igira, uyu muti ukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye nko kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ukaba wakwifashishwa n'abagabo, cyane cyane bakunze kugira icyo kibazo.

Ibyatsi byakuriye hamwe, byegeranye, bicucitse, bifite ibara risa icyatsi, bikunze gukoreshwa nk'imiti gakondo bivura indwara zitandukanye mu mubiri cyane cyane iz'uruhu.

Amacupa y'amavuta ateretse ahantu heza, menshi arimo amavuta akoze mu miti gakondo, kandi akaba yisigwa ntagire ingaruka ateza ku mubiri w'umuntu.

Umuganga uvura ukoresheje imiti gakondo, wambaye agapfukamunwa, arimo agenzura imiti ye arebe niba igifite ubuziranenge. Imiti gakondo ni myiza ku buzima.

Amacupa ari hamwe mu ibara ry'icyatsi apfundikiye, arimo amavuta akozwe mu bikakarubamba bizwiho cyane mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye z'uruhu.

Igikarito kiri muri bimwe byifashishwa mu kubika neza cyangwa se kurinda imiti n'ibindi bitandukanye, imiti ya gakondo ikaba ibikwa cyane cyane mu bikarito aho iba idahura n'izuba cyangwa se ubukonje.

Icupa ripfundikiye ririmo umuti wamaze gutunganywa uvuye mu byatsi byimejeje ari wo wakoreshwa mu buvuzi gakondo, hari n'irindi ripfunduye rigaragazwa ko rikiri gushyirwamo ibikiri gutunganyirizwa mu isekuru irimo n'umuhini.

Ubuvuzi gakondo bukozwe mu bintu byinshi bitandukanye, harimo ibimera, inyamaswa, cyangwa se amabuye y'agaciro. Bukaba bumaze gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho buri muturage wese yumva yakwivura akoresheje imiti gakondo.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, ivura indwara zitandukanye. Harimo n'amavuta yo kwisiga, akaba avura indwara z'uruhu ku bantu bafite ibiheri cyangwa se ubushita ku ruhu. Imiti gakondo ni myiza nta ngaruka zindi igira.

Imineke, inanasi n'ibindi bitandukanye biri muri bimwe byifashishwa mu gukora imiti gakondo, nkuko tubizi inanasi ibarirwa mu mbuto n'imeke ikabarirwa mu mbuto, bikaba byifashishwa mu kuba byatuma umuntu agira ubuzima bwiza cyane cyane umuntu ufite ikibazo cyo kutajya kuri tuwalete.

Amacupa yuzuyemo amavuta ateretse, apfundikiye, arimo amavuta akoreshwa mu kuvura ibintu bitandukanye cyane cyane ku ndwara z'uruhu, ayo mavuta akaba akozwe mu miti gakondo.

Tungurusumu ni nziza cyane mu miti gakondo ikoreshwa ivura indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'izindi nyinshi zitandukanye.

Imiti gakondo ni imwe mu biti by'imeza cyangwa se bigahingwa, nk'uko tubizi igitoki kiri mu miti gakondo n'ubwo itazwi na benshi, aho umuntu ufite ikibazo cyo kutituma neza bamutekera igitoki akakirya akaba yabasha kujyayo neza.

Ba mukerarugendo bagiye gusura ahantu hari ibiti bya kimeza hamanuka n'amazi menshi, nk'uko tubizi, ahantu hari ibiti bya kimeza hakunzwe kuva imiti gakondo cyangwase ibiti bikoreshwa bivura indwara nyinshi zitandukanye.

Amacupa y'ubwoko butandukanye agiye arimo amavuta atandukanye, aya mavuta yose akaba yarakozwe mu byatsi mu miti gakondo. Aya mavuta akaba yizewe mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane iz'uruhu.

Ibyatsi byimeza biri muri bimwe bikoreshwa nk'imiti gakondo, ibi byatsi bikunze gukoreshwa bivura indwara nyinshi zitandukanye, indwara zerekeranye n'igogora cyangwa se indwara z'igihu, ibyatsi byimeza bikunze kuba byihariye kuko bifite imiti kandi n'ubuziranenge.